Umugore wambaye imikenyero ya kinyarwanda, ufite telefone mu ntoki, ari kumwe n'undi ufite indangururamajwi, inyuma yabo hari icyapa cyanditseho ngo bikorere mu isibo.

Itente ryubatse mu mabara y'umweru, umuhondo, icyatsi n'ubururu, hicayemo imbaga y'abantu benshi, barimo abaturage, abasirikare ndetse n'abapolisi.

Icyumba kiyiza cyateraniyemo abayobozi mu nzego zitandukanye, imbere yabo hari ameza ateretseho uducupaw'amazi, amakaye ndetse na telefoni.

Umugabo wambaye ingofero n'umupira biriho ibirango by'ishyaka rya FPR afite indangururamajwi mu ntoki ndetse n'icyapa cyanditseho Intara y'Iburasirazuba.

Umugore wambaye amadarubindi n'ikanzu y'umutuku, afite indangururamajwi mu ntoki iri mu ibara ry'umutuku n'ubururu. Ni byiza ko abagore nabo bitinyuka.

Icyumba cy'inama giteguye neza, gisize irangi ry'umweru, gifite amarido, hicayemo abanyacyubahiro batandukanye, aho buri wese afite ikayi ndetse n'ikaramu.

Imbaga y'abantu benshi bari hamwe aho bitabiriye inama yiga ku ngingo zitandukanye, hagati yabo harimo umutaka wa MTN uri mu ibara ry'umuhondo.

Icyumba kigari kandi kiyiza cyane, kirimo amarido meza, hicayemo abantu b'ingeri zitandukanye, aho buri wese ari ku ntebe ye ndetse n'akameza iruhande.

Umugore wambaye amadarubindi n'ikanzu afite isaha ku kuboko n'indangururamajwi ari gutanga ikiganiro, aho abagore nabo bitinyutse mu bandi.

Umupolisi wambaye ingofero, amadarubindi, isurubeti n'ipantaro yatebeje afite indangururamajwi mu ntoki iri mu ibara ry'umutuku n'umukara aho ari gutanga ikiganiro.

Abakobwa babiri bambaye utuntu mu mutwe, inigi mu ijosi, utubodi ndetse n'imikenyero bari kubyina imbyino gakondo za kinyarwanda mu bukwe.

Sale nini iteguye neza irimo imitako igiye itandukanye, hicayemo abantu buzuye ndetse imbere yabo hari ababyinnyi b'abakobwa babyina imbyino gakondo.

Umuhanda urimo abantu benshi cyane bafite amasuka n'ibitiyo aho bagiye mu muganda kwiyubakira igihugu cyababyaye, inyuma yabo hari amazu ari mu bwoko bwa konoshi.

Imbuga ngari cyane ishashemo ibyatsi, haryamyemo inka zifite amahembe ateze neza arizo mu kinyarwanda bita inyambo. Hakurya yazo hari ibiti byinshi ndetse n'amazu yubatse mu buryo bwa kijyambere.

Umugore wambaye imikenyero ndetse n'agapira k'umutuku, arambije ku musambi iruhande rwe hari igiseke, afite urusyo arimo arasya amasaka aho byakorwaga bya kinyarwanda.

Abasore, b'intarumikwa, ndetse n'abakobwa beza cyane, bambaye imyenda ya kinyarwanda, bari kubyina imbyino gakondo, aho bishimisha abantu bose, bari kubareba.

Ikibuga kirimo ibyatsi byinshi, hubakishije amatente ari mu ibara ry'umweru, ubururu, umuhondo n'icyatsi, harimo abantu bari kubyina imbyino gakondo.

Icyumba gisize irangi ry'umweru, harimo intebe z'imifariso, ndetse na gasonga bugari. Abagabo babiri bari gukina ikizwi nk'urusoro aho biruhura mu mutwe.

Umuhanda wubatse mu buryo bugezweho aho hasi harimo amazi, hakurya yawo hari ishyamba ryinshi cyane, aho kuri uyu muhanda hari gucaho ikimodoka kinini.

Igiturage kirimo umuhanda muto cyane wibitaka, hari amazu ashaje ndetse n'ipoto ririho insinga zijyana umuriro w'amashanyarazi.

Umukozi ukorera ikigo cya REG, gishinzwe gutanga ingufu z'amashanyarazi, yambaye imyenda y'akazi, isarubeti y'ubururu ndetse n'ingofero y'umweru, ari gukanda kuri cash power ngo ashyiremo umuriro.

Abagabo bambaye ibisurubeti by'umweru ndetse n'iby'ubururu, bambaye n'ingofero bari kuzamura ipoto rinini rijyamo insinga zijyana umuriro w'amashanyarazi.

Umugabo wambaye ingofero y'umuhondo, umupira w'umukara, ipantaro y'ikaki, umukandara, ndetse n'inkweto zifunze, yuriye ipoto y'amashanyarazi, kugira ngo abitunganye neza.

Umuhanda w'igitaka urimo urujya n'uruza rw'abantu, hari amazu menshi ya konoshi, ndetse n'umutaka uri mu ibara ry'umuhondo ahakorera MTN.

Umuhanda w'igitaka urimo ivumbi ryinshi hari gutambukamo abantu ndetse n'ikinyabiziga cya moto kandi hari amazu menshi ya konoshi ndetse n'ipoto ririho insinga z'amashanyarazi.

Umuhanda uri kubakwamo kaburimbo, hari utubara tw'umweru n'utw'umukara, hirya yawo hari ibyuma, byubatse muburyo bw'ikoranabuhanga, hakurya hari ishyamba ririmo n'urutoki.

Winjira mu Karere ka Nyagatare, ubona icyapa gishushanyijeho inka iteze amahembe, aho ari ahantu hakunze kuba amata, menshi kandi aryoha.

Icyapa kigaragaza ko wageze Kagitumba aho ingabo za RDF, zafatiye igihugu ni ubutwari bukomeye cyane kandi byagize ingaruka nziza.

Ikibanza kinini cyane kiri kubakwamo amashuri azifashishwa mu gufasha abana kubona uburezi bw'ibanze, hakurya yayo hari ibiti byinshi ndetse n'ibyatsi.

Inzu isize irangi ry'icyatsi ndetse imbere harimo iry'umweru haparitse n'ikinyabiziga cya moto aho ari ikusanyirizo ry'amata hashyirwa abantu benshi.

Inzu yubatse neza muburyo bugezweho hakaba ari aho akarere ka Muhanga gakorera, hanze hari abasirikare ndetse n'abandi bantu bari gufata ifoto.

Akayira gafunganye karimo amapave, hirya no hino hari ibikuta byubakishije senyenge, harimo abantu biganjemo abagore bari gutambuka, hakurya hari ibiti byinshi.

Ibiro by'umudugudu wa Kagoma bifite irangi ry'ubururu ndetse na kake n'umweru, hanze hateye intebe abaje gushaka serivisi bicaraho mu gihe bagitegereje gufashwa.

Ikigo kirimo inyubako nyinshi cyane, hari uruzitiro rwanditseho urugo mboneza mikurire y'abana bato Karama, aho bitabwaho bagahabwa ibyo bakeneye byose.

Ikibanza kiri kubakwamo inzu hakoreshejwe ibiti, ibyondo ndetse n'amabuye, hari urutoki rwinshi ariko rutarera. Si byiza ko abantu batangira kuba mu nzu itaruzura.

Inzu ifite ibyumba byinshi, isize irangi ry'umweru ndetse amabati yayo ariho irangi ry'ubururu. Iruhande rwaho hari ikigega ndetse hari guca abantu bambaye neza, harimo abagore ndetse n'abagabo.

Inzu nziza yubatse neza isize amarange y'umweru ndetse isakaje amabati y'ubururu, hanze hateretse ibicuba birimo amata ndetse n'umugabo uri kubyitaho.

Ikibuga cyateraniyemo abaturage b'ingeri zitandukanye ndetse n'abayobozi babayobora mu nzego zose. Hari umugore uhagaze hagati yabo, wambaye ikoti ry'umutuku n'ipantaro y'umukara, uri kubagezaho ibyo yabateguriye.

Imbaga y'abantu benshi bateraniye hamwe imbere yabo harimu umugabo wambaye ingofero, amarinete, afite indangururamajwi mu ntoki, inyuma ye hari ibyuma bya muzika bicomekeranye.

Ihema rifite ibitambaro bya kaki n'umweru, hicayemo abanyacyubahiro batandukanye, buri wese akurikiye umuntu uri imbere, kandi afite amacupa y'amazi.

Icyumba cyiza cyane kandi kigari gisize amarangi y'umweru, gifite amakaro hasi, hicayemo abanyacyubahiro batandukanye, aho ameza ari imbere yabo, ateretseho telefone n'uducupa tw'amazi.

Salle nini cyane isize irange ry'umuhondo n'amarido ya kaki, hicayemo abanyacyubahiro batandukanye aho buri wese imbere ye hari ameza ateretseho icupa ry'amazi.

Umugabo wambaye amadarubindi, ikote ry'umukara, ishati y'mweru na karuvati, ahagaze imbere, hari indangururamajwi, ari kubagezaho ikiganiro, aho bagiye kwibuka.

Umuhanda wa kaburimbo ufite amatara yaka neza hari kugendamo abantu benshi cyane biganjemo abasirikare ndetse n'urubyiruko, aho bafite icyapa cyanditseho intara y'iburasirazuba akarere ka Nyagatare.

Imbuga ngari cyane, ririmo itente riri mu mabara y'umweru n'ikigina, hicayemo abantu benshi bambaye imyenda y'umweru n'umukara, bigaragara ko bagize ibyago.

Ikibuga kirimo ibyatsi byinshi hicayemo abantu bagiye batandukanye hagati yabo hahagaze umupolisi wambaye imyenda y'akazi ufite indangururamajwi mu ntoki ari kubagezaho imbwirwaruhame.

Ahari urwibutso rw'abazize jenoside yakorewe abatutsi muri mirongo icyenda na kane, aho hacanwe urumuri rw' icyizere bivuga ko bitazongera kubaho ukundi kuko byasize amateka mabi.

Ku Rwibutso rw abazize jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w igihumbi kimwe maganacyenda mirongo icyenda na kane, hari gushyirwa indabo ku Rwibutso ahashyinguye imibiri y'abantu benshi.

Imbaga y'abantu higanjemo abagore, abagabo, abasore n'abakobwa, bicaye mu mbuga aho bari gukurikirana amabwiriza bari guhabwa n'abayobozi babo. Hari izuba kuko abenshi bitwikiriye imitaka.

Icyumba kirimo abanyacyubahiro batandukanye. Abagabo babiri n'abagore babiri bambaye amadarubindi. umugabo umwe ni umupolisi ukorera mu gihugu cy'u Rwanda. Ku meza hateretseho amacupa y'amazi amakaye n'ingofero.

Ahantu hari imbuga irimo ibitaka hubatse ihema riri mu ibara ry'ikake n'umweru, hari abagabo b'abanyacyubahiro bahagaze imbere bari gucana urumuri rw'ikizere.

Icyumba gisize irangi ry'umweru n'amakaro, hasi harimo abanyacyubahiro batandukanye, aho bari gufata ifoto, biganjemo abasirikare bacunga umutekano ndetse n'abapolisi.

Imbaga y'abantu yateraniye ahantu hamwe, aho ari abaturage ku buryo bugaragara, umugore umwe wambaye ikanzu y'igitenge afite indangururamajwi mu ntoki, aho ari kubagezaho ijambo yabateguriye,

Mu muhanda wa kaburimbo, hari icyapa kigaragaza akarere ka Nyagatare, umurenge wa Nyagatare, akagari ka Ryabega, umudugudu wa Rugemo, bagaragaza kandi indangagaciro zigomba kuranga abantu bahatuye.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo imodoka imwe ifite ibara ry'umutuku ndetse n'umukara, aho atari itwara abagenzi mu buryo bwa rusange, hepfo yayo hari amazu meza yubatse mu buryo bugezweho.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo imodoka ifite amabara y'umweru n'ubururu, hepfo y'umuhanda hari akayira k'abanyamaguru kegereye inzu nziza za konoshi.

Umuhanda wa kaburimbo, urimo imodoka ifunguye, hahagaze abagabo babiri, umwe wambaye ishati y'umukara, ipantaro y'ikoboyi ndetse undi akaba yambaye akajire k'umutuku.

Umuhanda wa kaburimbo, urimo moto, iriho umugabo wambaye umupira w'umukara n'ipantaro ndetse afite igicupa cya Jibu, kibamo amazi yo kunywa, kuri moto ye.

Imodoka iri mu bwoko bw'izitwara abagenzi kwasiteri, irimo abagenzi benshi ndetse hari n'abandi bahagaze hasi mu muhanda wa kaburimbo, aho berekeje mu bikorwa bitandukanye.

Umuhanda w'ibitaka urimo kona zigirwamo ibinyabiziga, kugira ngo ujye gukorera perime, ube wakwemererwa gutwara uri mu muhanda mu buryo bwemewe.

Inzu iriho irange ry'umweru, amadirishya asize irange ry'umukara ndetse ku gikuta hariho kizimyamwoto yifashishwa mu kuzimya ahabaye inkongi y'umuriro.

Imbuga yateraniyemo abantu b'ingeri zitandukanye aho imbere yabo hari umugore ufite indangururamajwi mu ntoki n'urupapuro ari kubagezaho ibyo yabateguriye.

Imbuga irimo ibyatsi aho hubatsemo itente riri mu mabara y'umweru, ubururu, umuhondo, ndetse n'icyatsi, aho hagati yabo harimo umugore uri kubagezaho imbwirwaruhame.

Abantu benshi barimo abato n'abakuze bafite ibikoresho birimo imihoro, amasuka n'ibitiyo aho bari mu muganda batema ibihuru baharura kugira ngo biyubakire Igihugu.

Imbaga y'abaturage bakoraniye mu mbuga aho hirya hari urutoki ndetse n'ibiti by'inganzamarumbo, iruhande rwabo hakaba hicaye umugabo ndetse hahagaze undi uri kubagezaho imbwirwaruhame.

Umurima urimo imbaga y'abantu benshi, bafite amasuka bigaragara ko bari mu muganda, aho basobanukiwe neza ko ari ukwiyubakira Igihugu ukoresheje amaboko yawe.

Ihema riri mu mabara y'umweru umuhondo ubururu icyatsi mu kibuga hahagazemo abagabo batatu hagati harimo umupolisi.

Ihema rifite ibitambaro byo mu mabara y'icyatsi, umuhondo n'ubururu hicayemo abantu bashinzwe umutekano yaba abapolisi ndetse n'abasirikare, ni abantu bafitiye igihugu cyacu akamaro.

Icyumba kiriho ibitambararo by'icyatsi ndetse n'umweru, hicayemo abantu b'urubyiruko b'abakobwa ndetse n'abahungu, bambaye utujire turi mu ibara ry'icyatsi. Aho bakurikiye ibiganiro.

Umukobwa uri mu kigero cy'imyaka mirongo itatu na mirongo itatu n'itanu, yambaye ishati y'igitenge, ipantaro ndetse na bote aho inyuma ye hari amazu ariho umucanga.

Imbuga irimo ibyatsi, hicayemo abantu benshi bari ku zuba, abandi bicaye mu ihema ririho ibitambaro by'umuhondo n'icyatsi, aho hagati hari umupolisi uri kubagezaho imbwirwaruhame.

Imbuga irimo abanyacyubahiro batandukanye, umupolisi ushinzwe umutekano wo mu muhanda, umugabo wambaye umupira w'umukara, ipantaro yikigina na bote ndetse ku meza hateretseho indangururamajwi, urupapuro na telefone.

Ikibuga kigari cyane kirimo ibyatsi aho hicaye imbaga y'abantu benshi cyane, hari n'abari mu itente ririmo amabara y'umweru, umuhondo, ubururu n'icyatsi, imbere yabo hari umupolisi uri kubagezaho ijambo.

Imbaga y'abantu benshi bateraniye hamwe biganjemo abagore, abagabo, abasore n'abakobwa, bicaye hasi imbere yabo hari umuntu ufite mikoro n'urupapuro uri kubagezaho imbwirwaruhame.

Mu mbuga irimo abantu benshi, biganjemo urubyiruko rw'abakobwa n'abahungu, bari gukata icyondo, kugira ngo bahereze abubatsi, bubake.

Hafi y'ikigo cy'amashuri, hari umuhanda uri gukorwamo umuganda n'abaturage bafatanyije na polisi, abasirikare ndetse na daso.

Imbaga y'abaturage benshi, aho bavuye mu gikorwa cy'umuganda mu kwiyubakira igihugu, bakaba bishimiye ibyo bakoze, hari umugabo ufite isuka mu ntoki.

Abantu benshi cyane bari hamwe mu gikorwa cy'umuganda, yaba abaturage, abapolisi ndetse n'abasirikare, hepfo haparitse imodoka ziri mu ibara ry'umukara.

Sitade yubatse ku buryo bugezweho, aho mu kibuga hari abakinnyi b'amakipe abiri atandukanye bahanganye kugira ngo buri imwe itsinde ibitego.

Ikibuga cy'umupira kirimo abakinnyi bari mu makipe abiri atandukanye, aho iya mbere yambaye impuzankano ziri mu ibara ry'umweru na oranje, indi umupira w'ubururu ndetse n'agakabutura.

Abantu batatu bafite icyapa mu ntoki cyanditseho Nyagatare ndetse Umurenge Kagame cup, aho bari guha ibihembo uwabaye uwa kabiri.

Umukinnyi w'amaguru, yambaye umupira w'ubururu n'agakabutura bisa, ahagaze mukibuga. Inyuma ye hari ibyatsi byinshi, ndetse n'amazu atandukanye.

Ikibuga cy'umupira kitubatswe mu buryo bugezweho harimo abakinnyi b'ikipe imwe bambaye imyenda isa haruguru y'ikibuga, hari imirima irimo ibyatsi ndetse n'amazu yubatse mu buryo bugezweho.

Ikibuga kinini cyane cyahuriwemo n'abantu b'ingeri zitandukanye, bakora imyitozo ngororamubiri kugira ngo ubuzima bwabo bukomeze kuba bwiza, birinda indwara.

Ikibuga cy'umupira kirimo abakinnyi bagize ikipe imwe bari kumwe na kapiteni wabo ndetse n'umutoza aho bambaye amasogisi y'umweru hagati yabo hakaba harimo baron ebyiri bagiye gukoresha.

Umusore wambaye umupira w’umweru urimo utubara tw'umukara n'agakabutura gato k'umweru, ndetse n’amasogisi, yicaye ku ntebe, aho iruhande rwe hateretse ibikapu bibiri, ndetse hicaye na mugenzi we.

Ikibuga cy'umupira kirimo abakinnyi bamwe bambaye imyenda y'ubururu ndetse abandi iy'umuhondo.

Ikibuga cy'umupira cyahuriyemo amakipe abiri atandukanye aho imwe yambaye impuzankano z'umuhondo naho indi ifite ibara ry'ubururu yambaye n'amasogisi y'umweru.

Ikibuga kigari cyane gikoteye, harimo abantu benshi cyane bari mu myitozo ngororamubiri, bari hamwe baterana imbaraga ni byiza kuzikora buri munsi.

Ikibuga cy'umupira kirimo itapi y'icyatsi aho hari amakipe abiri, imwe yambaye imyenda y'umuhondo, imbere yabo hakaba hahagaze umugabo wambaye imyenda y'umukara.

Ikibuga kirimo abakinnyi bumupira, bambaye impuzankano z'umuhondo, n'amasogisi arimo utubara tw'umukara, hari n'uwo bashyira mu izamu wambaye imyenda y'icyatsi ndetse n'umugore ubatoza.

Ikibuga cy'umupira kirimo ibyatsi byinshi cyane ndetse n'abakinnyi bari mu makipe abiri atandukanye, inyuma yacyo hari amazu yubatse neza.

Ikibuga kigari kandi gikoteye cyahuriwemo n'imbaga nyamwinshi y'abantu bari gukora imyitozo ngororamubiri batambika amaboko, bayazamura, basimbuka mu buryo bwose.

Ikibuga kirimo ibyatsi byinshi bitoshye, harirukamo abasore bo mu ikipe yambara imipira y'ubururu irimo utubara tw'icyatsi, barakora imyitozo.

Ikibuga cy'umupira, kirimo abakinnyi batatu aho umwe yambaye umupira w'umweru, ikabutura y'umukara, yiziritse ikintu ku ivi, naho undi yambaye amasogisi arimo akabara k'icyatsi.

Umuhanda wa kaburimbo ufite akayira k'abanyamaguru. Aho hari gucamo umusore ndetse n'umukobwa. Ku muhanda kandi hari amatara aboneshereza ibinyabiziga ndetse n'abahagenda.

Umuhanda wa kaburimbo harimo moto iriho umuntu uyitwaye, wambaye agapira k'umukara, ipantaro y'ikoboyi n'inkweto zifunze, hakurya y'umuhanda hari ibyatsi byinshi n'ibiti.

Umuhanda w'igitaka uri kunyurwamo n'umugabo wambaye ishati y'umweru, ipantaro ya kaki n'inkweto zifunze hirya y'umuhanda hari ibyatsi byinshi.

Umuhanda wa kaburimbo hakurya hari akayira k'abanyamaguru aho hari gutambukamo umusore n'umukobwa, hari kandi amatara abonesha ku muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo uriho inzira y'abanyamaguru yubakishijwe amapave, hepfo yayo hari umutaka wa MTN, uri mu ibara ry'umuhondo ndetse n'umukozi uhatanga serivisi.

Umuhanda wa kaburimbo urimo amabara y'umweru ndetse n'umukara, umunyonzi utwaye intebe z'imisego, aho yambaye agapira k'umweru n'ipantaro y'umukara, hakurya hari amazu menshi cyane.

Umuhanda wa kaburimbo wubatswe mu buryo bugezweho, aho ku nkengero zawo hari utuyira turi kunyuramo abantu bagenda n'amaguru, hirya yabo hari amazu yubatse neza.

Umuhanda wa kaburimbo wubatse neza hari n'amatara abonesha, hari kandi akayira kanyuramo abanyamaguru. Hirya yako hari inzu nziza ya etage.

Umuhanda wa kaburimbo, urimo imodoka igenda neza ndetse n'igare riri hagati yazo, haruguru hari umurima uhinzemo ibiti byinshi ndetse harimo n'ibyatsi.